Mu Rwanda umugi mukuru wa Kigali wasohoye imodoka nziza ku isoko yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ikaba igurishirijwe ku giciro cy'amafaranga miliyoni mirongo itatu na zirindwi y'amanyarwanda.

Mu Rwanda buri muturage wese yasobanukiwe uburyo yakwitezamo imbere binyuze muri banki, aho bahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yaba iminini cyangwa imitoya bakazishyura nyuma.

Uruganda rw'inyange rwamaze kwegereza abaturage bose mu gihugu cy'u Rwanda amakusanyirizo y'amata, ubu nta muturage ugikennye cyangwa se wabura amata yo kugaburira umwana we, ibi kandi byakemuye indwara ya bwacya mu bana.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro gitangwa n'ikigo gikuru gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda akaba aricyo gikunze kwitwa mu magambo avunaguye rara a.

Inoti y'amafaranga magana atanu yifashishwa mu gihugu cya Tanzania, igiye iriho amashusho atandukanye, aho inyuma irangwa n'ishusho y'imparage ndetse n'umugabo hanyuma inyuma hakaba hariyo abantu barimo basoroma imbuto.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inote, akaba akoreshwa cyane cyane cyangwa akomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba akoreshwa mu bihugu byinshi cyane bitandukanye, kandi akaba afite menshi cyane ku isi arusha agaciro.

Amafaranga ni meza yifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye kuburyo rimwe na rimwe utabasha kubaho utayafite, nta gihugu kitayakoresha, aya ni yo akoreshwa muri buri kimwe cyose ukeneye, yaba amashuri y'abana, yaba ubuzima, yaba inzu tubamo n'iyo dukoresha twishyura kugira ngo tubone uko tubaho.

Ubu haje ibidendezi byubatswe muburyo bw'ubuhanga bigoteshejwe ubusitani buteye amabengeza, aho abantu baza kongeramo ndetse abandi bakicara hafi yayo bakumva umwuka mwiza.

Kigali yacu iteye ubwuzu, isa neza ku manywa na nijoro, usanga irangwa n'umutekano usesuye, n'urunyuranyurane rw'imodoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu mbese biragaragara neza.

Imyambarire ni kimwe mu bintu by'agaciro cyane ndetse bishobora kugaragaza n'uwo uri we cyangwa icyiciro cy'ubusirimu ubarizwamo. Kositime yo noneho, ni umwenda w'ingenzi cyane ku musore cyangwa umugabo ushaka kuba umusirimu. Ushobora kuyikenera kenshi yaba mu bukwe, mu biro n'ibindi.

Banki ya Kigali igiye ifite amashami menshi ahantu hatandukanye mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda, ikaba yifashishwa uburyo bwo kubitsa no kubikuza ndetse no gutanga inguzanyo ku bashoramari n'abikorera.

Amasoko yacu yo mu Rwanda ntacyo wayakeneramo ngo ukibure, yaba ibiribwa, imbuto, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, nyabuna nawe uzahagere wirebere ntacyo uzahabura.

Buri bitaro byose mu gihugu bigiye bifite aho bakirira abarwayi, kandi aho hantu haba ari hagari, harimo intebe z'aho abarwayi bicara mu gihe bagitegereje guhura n'abaganga cyangwa se ababavura.